Abajyanama b'ubuzima barakenerwa cyane mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Kuko bafasha ababyeyi mu kwita ku bana babo, yaba abana bari munsi y'imyaka itanu cyangwa bayirengeje. Bakabasuzuma indwara zitandukanye kugira ngo barebe ko bafite ubuzima bwiza.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera amazi: yaba mu ngo iwacu, yaba ku kumesa, yaha mu guteka no mu bintu byinshi bitandukanye bityo rero tugomba kugira amasuku kugira ngo tubashe gukoresha amazi meza bityo biturindade indwara nyinshi zandurira mu mwanda.

Kimwe mu bintu bihangayikisha ibihugu harimo n'ubuzima bw'abenegihugu, aho usanga hari inama nyinshi zitegurwa ku bijyanye no kwiga ku buzima bwabo, kugira ngo barebere hamwe icyabafasha ndetse n'uburyo bakitabwaho.

Ubukangurambaga buratangwa cyane hirya no hino, ku ngingo nyinshi zitandukanye, cyane cyane harimo n'iz'ubuzima. Aba ni abaturage bicaye bari kugirwa inama, kandi ubona bari gukurikirana neza, ubona ko inama bari kugirwa, bari kuzumva.

Ibiganiro nkangurambaga birakenewe ku baturage ku bijyanye n'indwara zifata ubwonko, kugira ngo bamenye ukuntu bazirinda, bamenye uko bazivuza, bityo bibashe kugabanya amahirwe menshi y'abahitanwa nazo. Rero dukeneye abantu babihuguriwe kugira ngo babashe kutugezaho ubukangurambaga.

Hari zimwe mu ndwara turwara ntizite zigaragara kuko zitahise zigaragaza ibimenyetso muri izo ndwara nk'indwara zifata ubwonko, rero nk'aha mu Rwanda harimo abaganga baba barabihuguriwe indwara zijyanye n'ubwonko, bityo rero bikaba byiza kwisuzumisha kugira ngo ukomeze kubasha kugira ubuzima bwiza.

Uko uburwayi bwo mumutwe burushaho kwiyongera ni ko n'ubuvuzi bwabwo bugenda burushaho gutera imbere, aho hari amahugurwa menshi yagenewe abantu kugira ngo bamenye uko bakwirinda ubwo burwayi bwo mu mutwe, uko babwivuza ndetse n'uko babasha kwisuzumisha kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Ubuvuzi bw'amenyo bwateye imbere mu Rwanda, kugeza ubu ngubu ushobora kubona ahantu wivuriza kandi hakwegereye. Ntibikiri ngombwa ko hakoreshwa bwa buryo bwa gakondo, aho iyo umuntu yakeneraga gukurwa iryinyo yakoreshaga urudodo, aho wasangaga rimwe na rimwe biteza n'izindi ngaruka.

Kuvurwa ndetse no kwitabwaho ku bantu bakuru ni ikintu cy'ingenzi kandi gikenewe. Nk'abantu bagira impanuka cyangwa bakavunika mu bundi buryo, hari ibyuma birufasha kongera kugenda, akabare n'abaganga baba bari hafi yabo ndetse babagira inama.

Ni byiza kwirinda ndetse no kwisuzumisha icyorezo cya covid-19, kuko ari icyorezo kibi kandi cyica kandi kikaba cyandura ku buryo bworoshye cyane, bityo rero ni byiza kwirinda wambara agapfukamunwa ugira isuku ndetse no kwindwara abantu benshi cyane.

Nyuma y'aho ibyorezo bikomeje kwibasira isi, ndetse bigahitana n'abantu batari bakeya cyane cyane ku mugabane wa Afurika, umuryango ushinzwe ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage ikomeje gushakira igisubizo hamwe, kuko haboneka inkingo zihagije ndetse n'ubufasha bw'ibanze ku baturage.

Ni byiza kugirira isuku ibikoresho byo kwa muganga harimo ibyifashishwa harimo kuvurwa umurwayi, harimo aho umurwayi aryama ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, kuko bimufasha kuruhuka neza ndetse bikamurinda n'izindi ndwara.

Mu gihe uri mu bitaro birwariyemo abantu benshi ni byiza ko wirinda ukagira isuku, ndetse byaba byiza ukambara n'agapfukamunwa, kuko bigufasha kwirinda indwara nyinshi kandi zitandukanye, kuko aho haba hahuriye abantu benshi barwaye kandi barwaye indwara zitandukanye. Bityo rero muragirwa inama abakorayo ndetse n'ababa baharwariye ndetse n'abarwaza.

Umubyibuho ukabije niindwara ihangayikishije hirya no hino ku isi bityo rero abantu bafite umubyibuho ukabije bagirwa inama yo kwegera abaganga bakabafasha ku bijyanye n'imirire bakamenya uko bagabanya ibiro kuko umubyibuho ukabije ushobora kugutera ndetse n'indwara nyinshi kandi zitandukanye.

Uko iminsi igenda ishira uburwayi bugenda bwiyongera mu bantu, ariko uko uburwayi bwiyongera n'imiti igenda irushaho kuvumburwa. Bityo rero hirya no hino hari amazu kandi menshi acuruza imiti y'uburwayi kandi bwinshi butandukanye, bityo rero mujye muyegera mu gihe mugize ikibazo cy'uburwayi ubwo ari bwo bwose mubasobanuze.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko zidufasha kuruhuka ndetse zigatuvura n'indwara nyinshi kandi zitandukanye, bityo rero hakenewe n'amazu menshi akorerwamo siporo kugira ngo ababyifuza babone aho bazikorera.

Gukora siporo ni byiza, kuko ituma tugira ubuzima bwiza. Ariko siporo igomba kunganirwa n'imirire myiza. Harimo kurya ibintu bifite intungamubiri, harimo: nk'amagi, inyama, imboga n'imbuto ndetse no kunywa amazi kandi menshi afite isuku.

Gukora siporo ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko biba byiza cyane iyo ubonye umuntu ugufasha cyane cyane iyo ari umuntu wabihuguriwe, bityo rero niba ufite gahunda yo gukora siporo, ugomba gushaka umuntu wabihuguriwe, kugira ngo agufashe unamenye na siporo zijyanye n'umubiri wawe.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko amazi aradufasha cyane, nko kuturinda indwara nyinshi zitandukanye, kudusohorera imyanda mu mubiri, ndetse akadufasha no kuruhuka. Ariko amazi agomba kuba yitaweho, afite isuku kandi ukanywa amazi byibura litiro ebyiri ku munsi.

Gukora siporo ni kimwe mu bishobora gufasha umubiri kumera neza bigafasha umuntu kugira ubuzima bwiza ndetse bifasha n'umubiri kuruhuka, kandi sipo ishobora no kuvura indwara nyinshi kandi zitandukanye, rero bishobora no kunganirwa no kurya indyo yuzuye harimo nko kurya imbuto zifite intungamubiri no kunywa amazi ahagije.

Yaba ari imikino y'amaguru cyangwa se y'amaboko, ni byiza ko hafi aho ngaho hagomba kuba hari abantu bashobora gufasha umukinnyi igihe yaba ahuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Igihe yaba ahuye n'imvune cyangwa se ikindi kibazo cyamugiraho ingaruka.

Siporo ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko idufasha kuruhuka, ikadufasha kumererwa neza, ndetse ikaba yaturinda indwara nyinshi kandi zitandukanye. Bityo rero nkaba nabashishikariza gukora siporo, kubera ko idufitiye akamaro kanini.

Ni byiza kwita ku menyo, kuko biribanda kwangirika, cyangwa gufatwa n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Mu kwita ku mu menyo rero, harimo guhitamo umuti wakoresha woza amenyo yawe, cyane cyane ko hari n'indi miti ya gakondo, ikoreshwa mu koza amenyo.

Ubuvuzi gakondo bukomeje gutera imbere kuko kugeza ubu hari indwara zivurwa hifashishijwe imiti y'ibyatsi. Izo ndwara hakaba arimo indwara zikomeye ndetse n'izoroheje. Bityo rero tugomba gusigasira ubuvuzi gakondo kuko burafasha cyane.

Uburwayi bw'uruhu ni uburwayi buhangayikishije cyane hirya no hino ku isi, kuko usanga biri ku kigero cyo hejuru kandi bufite n'ingengeri nyinshi z'abantu, ariko ni uburwayi buvurwa bugakira, kandi mu miti ivura ubwo burwayi harimo n'imiti ya gakondo, bityo rero abafite ubwo burwayi bashobora kwegera abaganga bakabafasha.

Imiti ya gakondo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko idufasha kandi ikatuvura indwara nyinshi zitandukanye, rero mu rwego rwo kuyibungabunga harimo kuyitaho, no kuyihingira neza, kugira ngo tujye tubasha kuyibona mu gihe twahuye n'izo ndwara.